Inzu nto yubakishije ibyuma, iri mu mabara y'umuhondo, hariho ibirango bya sociyete ya MTN, mo imbere harimo umugore, hanze hagaze umugabo wambaye ishati, utebeje wagiye kwaka serivisi.

Akazu gato kubakishije ibyuma gasize irangi ry'umuhondo, hagiye handitseho amagambo ya MTN, azwiho gutangirwamo amayinite, abantu bakabikamo, bakanabikurizamo amafaranga kuri telefone.

Akazu gato kubakishije ibyuma, gasize irange ry'umutuku, kanditseho Airtel Money, kazwi ku izina rya Sioski aho batangira amainite bakanabitsa, bakanabikuza amafaranga. Imbere yayo hari umugenzi uri gutambuka.

Umugabo uhagaze w'umukozi wa MTN wambaye umupira uri mu mabara y'umuhondo uriho n'ibirango byayo, ari imbere y'abanyamakuru arimo gutanga ikiganiro.

Akazu kubakishije ibyuma, gasize amarangi atukura, kariho ibirango bya Airtel biri mu mabara y'umweru, harimo umuntu uri mu muryango uri kwinjiramo kwaka serivisi.

Inyubako nto yubakishije ibyuma isize irangi ry'umuhondo, hariho ibirango bya MTN, hari abantu bagiye batandukanye baje kwaka ubufasha bigendanye n'iyo sosiyete.

Akazu gato kubakishijwe ibyuma, gasize irangi ry'umutuku n'umweru, gatangirwamo amayinite ya Airtel, kakanabitswamo, kanabikurizwamo amafaranga kuri telefone kuri Airtel money.

Umuhanda munini nyabagendwa wa kaburimbo, uriho amazu manini y'ubucuruzi, hateye icyapa kinini cy'umuhondo cya MTN, kiriho serivisi zigiye zitandukanye batanga.

Abantu benshi barimo abagore n'abagabo bicaye ku ntebe ziteye umucaca, imbere yabo hateretse amacupa y'amazi, hatatse ibitambaro biri mu mabara y'umuhondo n'umweru bateze amatwi umuntu uri kubaganiriza.

Isoko rinini ryubakiye risakaje amabati y'ubururu, harimo ibiribwa bigiye bitandukanye, hateraniyemo abaguzi ndetse n'abacuruzi, imvura iri kugwa hanze yaryo.

Abagabo batatu bicaye bagiye kwizihiza umunsi mukuru w'amakoperative ku rwego rw'Akarere ka Nyagatare, imbere yabo hari abaturage barimo gusangira uwo munsi mukuru.

Inyubako nini isize irangi ry'umweru ndetse n'umukara izwi ku izina ry'ikusanyirizo ry'amata, imbere yayo haparitse moto yifashishwa mu kujyana amata iyavana mu borozi iyazana kuri iryo kusanyirizo.

Umugabo uhagaze wambaye ingofero n'amarinete ndetse n'agapfukamunwa imbere ye hari undi umufatiye indangururamajwi y'ubururu yanditseho RBA izwi nka radiyo na televiziyo by'igihugu.

Imbaga y'abantu benshi bicaye, ahantu hubakiye neza, hari abagabo batatu bahagaze, umwe ari gutanga icyemezo cy'ishimwe, agihereza abagabo babiri bambaye imipira y'imikaraba.

Icyapa kinini cyanditseho BPR, izwi nka banki y'abaturage, bifashisha babitsamo, bakanaguzamo amafaranga bifashisha mu bikorwa byabo bya buri munsi.

Ibinyobwa bitandukanye bipfundikiye mu macupa atandukanye bizwi ku izina rya rikeri rizwiho kugira umusemburo mwinshi wa arukoro byifashishwa n'abantu bari kubinywa.

Inyubako nini ziri ku murongo z'ubucuruzi zigiye zirimo utubari, imbere yatwo hateye utumeza ndetse n'intebe bitukura abantu bicaramo iyo bahasohokeye.

Sare nini ikoze neza kandi itatse neza irimo intebe ndetse n'ameza abantu bicaraho iyo bahasohokeye bari gufata amafunguro ndetse n'ibinyobwa cyangwa se barimo kuganiriraho.

Igikoresho cyifashishwa mu gukonjesha ibinyobwa bigiyeye bitandukanye, kizwi ku izina rya firigo, hateretsemo ibinyobwa bigiye bitandukanye, harimo fanta iri mu ducupa twa pulastike. Heineken ndetse na Mitsing iri mu macupa.

Inyubako ybucuruzi izwi ku izina rya konoshi, hejuru hometseho icyapa cy'umuhondo kiriho amagambo yandikishije ibara ry'umutuku, sikolu.

Etajeri y'imbaho ebyiri irambitseho isabune imwe ikase ndetse munsi yaho harimo impapuro nyinshi zirambuye.

Etajeri iri mu iduka iziritseho akadodo kariho amakaramu menshi agiye afite imipfundikizo itandukanye amabara, yifashishwa ku kwandika ibintu bigiye bitandukanye.

Iduka ririmo ibiribwa bigiye bitandukanye harimo umuceri, isukari, amavuta y'ubuto, salisa, mayoneze n'ibindi bigiye bitandukanye yifashishwa mu guteka.

Iduka rinini ry'ubucuruzi ririmo etajeri yubakishije ibiti, harimo amavuta y'amoko agiye atandukanye, harimo asigwa ku mubiri mu mutwe, ku minwa ndetse n'ibindi bice by'umubiri bigiye bitandukanye.

Intebe ikozwe muri pulasitike ifite ibara ry'umweru, yavunitse akaguru kayo k'ibumoso, yicarwaho n'abantu bari mu mirimo igiye itandukanye.

Inyubako ikorerwamo ubucuruzi harimo ibiribwa bigiye bitandukanye aribyo amakaroni, indagara, ubunyobwa ndetse n'umuceri, hicayemo umugore wambaye ijire y'umuhondo ndetse n'agapfukamunwa urimo kubicuruza.

Umugore wambaye amarinete uri guseka, yambaye itaburiya ya karokaro y'umutuku. ahagaze mu iduka ricururizwamo imyenda y'abana ndetse n'iy'abakuru.

Icyumba kinini gikorerwamo ubucuruzi, harimo ibiribwa bigiye bitandukanye ndetse n'imbabura, harimo n'akagare kifashishwa n'abana, ku rubaraza rwayo hariho igitoki.

Inyubako y'ubucuruzi mo imbere harimo umugore wunamye umugabo wicaye bafite umufuka urambitse hasi uriho imbuto, hanze yiyo nyubako hariho akabati gasinze irangi ryumweru kariho ibiraha bitatu.

Umugore wambaye igitenge ukenye igitambaro mu mutwe, ari mu nyubako y'ubucuruzi harimo aka etajeri kagiye karimo ibiribwa, ndetse n'ibinyobwa bigiye bitandukanye.

Abantu benshi bagiye batandukanye harimo abagore ndetse n'abagabo bahagaze hamwe ku murongo barimo gufata ifoto y'urwibutso, inyuma yabo hari icyapa yanditseho ADEPR.

Icyumba cy'amasengesho kirimo abantu b'ingeri zitandukanye, abagore ndetse n'abagabo, bamwe bicaye ku ntebe, abandi bicaye hasi ku kumukeka, abandi barapfukamye, barimo gusenga.

Umugabo wambaye ingofero itukura n'amarinete ufite indangururamajwi mu ntoki ahagaze imbere y'abantu arimo aravuga ijambo, inyuma ye hicaye abagore bitandiye ibitambaro by'abisilamu.

Umuntu uhagaze wegamye ku nyubako ndende, yubatse neza izwi ku izina ry'Urusengero cyangwa se Kiliziya abantu bajyamo bagiye gusenga.

Urusengero runini ruzwi nka kiliziya, harimo abantu batandukanye abagabo, abagore, abana ndetse n'urubyiruko barahagaze bari gusenga, imbere yabo hari umugabo upfukamye wambaye furari mu ijosi urimo gusenga apfukamye.

Inyubako nini y'urusengero, yegereye umuhanda wa kaburimbo, isize irangi ry'umweru, yanditseho amagambo ari mu ibara ry'ubururu ndetse ikaba ishakakaje amabati atukura.

Inyubako nini, ifite irangi ry'umweru ryagiye ryomokaho. Ifite inzugi zikoze mu biti. Imbere yayo hari ibyatsi byinshi kandi urubobi rwatangiye kwitondagira.

Abantu benshi barimo abagore ndetse n'abagabo, bahagaze ahantu hamwe, barimo barya icyo bita ukarisitiya, bari mu rusengero runini cyane.

Inyubako nini y'urusengero, harimo indabyo zitatse n'ameza atatseho ibitambaro by'icyatsi n'umweru, harimo ishusho Yesu kristo abambye ku musaraba.

Sale nini izwi nk'urusengero harimo abantu batandukanye; abagore, abagabo, urubyiruko ndetse n'abana bicaye bazamuye ibiganza, barimo gukoma mu mashyi.

Inyubako nini cyane, mo imbere hatatse neza, harimo irange ry'umweru ku gisenge, hagiye harimo amatara menshi cyane ayari kwaka, agiye atandukanye.

Icyumba gisa neza kirimo irangi ry'umweru, harimo igitanda kiriho matela, amashuka y'umweru ndetse n'udusego, harimo n'akameza kariho n'intebe imwe.

Icyumba kinini cyisanzuye kirimo igitanda kiriho matela ishashe neza kumashuka y'mweru ndetse n'imisego ibiri y'mweru; harimo intebe z'ubwugamiro zifite imyanya ibiri ndetse urugi rw'icyo cyumba rurafunguye.

Inyubako nini igeretse isize irange ry'umweru, izengurutswe n'igikuta kinini, imbere yacyo hari indabyo ziteyeho ndetse hari n'umuhanda w'igitaka abantu bacamo.

Icyumba kinini kiriho igitanda n'uburiri bushashe neza, ku rukuta hariho televiziyo nini y'umukara harimo n'ameza ndetse n'agatebe umuntu yicaraho.

Inyubako nini izwi ku izina rya hoteli imbere yayo, ifite ubwogero burimo amazi meza buzwi ku izina rya pisine hateye n'intebe n'agataka abantu bicaramo iyo bahashokeye.

Inyubako ndende igeretse kabiri, imbere yayo hariho pisine nini, irimo amazi asa neza abantu bifashisha boga iyo bahasohokeye.

Ameza abiri yegeranye, hariho n'intebe, hateretseho amasahani ariho ibiryo ndetse na fanta n'kirahure, umuntu wicaye aho ngaho, aba yitegeye ahantu hatandukanye.

Icyapa kinini cy'umweru kiriho amagambo yanditswe mu ibara ry'umutuku, ubururu ndetse n'umukara, kerekana aho hoteli yitwa Demi Sheraton iherereye ndetse na serivisi batanga.

Inyubako nini igeretse isize irangi ry'umweru, ifite amabati atukura, ifite imbuga ngari iteyemo ubusitani, ikagira n'igipangu kinini kiyizengurutse kigiye giteyeho ibiti.

Icyumba kinini gifatirwamo amafunguro, harimo ameza ariho amasahani ariho ibiryo, hatetseho n'icupa rinini rya fanta ndetse harimo umugabo uri gusuka fanta mu kirahure.

Isoko rinini ritubakiye kandi ridasakaye, harimo abaguzi ndetse n'abagurisha, harimo imboga zigiye zitandukanye: karoti, amashu, inyanya, puwavuro ndetse n'izindi zigiye zitandukanye.

Ihene eshatu ziri mu ziriko bigufi, ziziritse ku giti kimwe, ahantu hahinda ubwatsi, zagiye kugurishwa, ebyiri n'umukara, indi ntabwo bisa.

Abantu benshi bazengurutse ibigori byasarubuwe kandi byumye, hari n'umugore urimo kuvugana n'itangazamakuru, iruhande rwabyo hari akamashini kifashishwa mu kubihungura.

Umuhanda munini uparitseho imodoka nini, imbere yayo hari abaturage bagiye batandukanye, bazanye ibicuruzwa byabo kubigurisha, abandi bagenda babipakira mu modoka babijyana ahantu hagiye hatandukanye.

Isoko rinini ritubakiye hateraniyemo abaguzi ndetse n'abacuruzi, harimo imyenda igiye itandukanye. Hashinzemo ibiti, hagasakazwa amashitingi kugira ngo imyenda yabo iticwa n'izuba.

Icyumba kinini gifatirwamo amafunguro hagiye harimo intebe abantu bicaraho ndetse n'ameza baterekaho ibiryo, hateretseho isahane y'umweru ndetse n'ikanya irambitseho hariho n'ibiryo ifiriti ndetse n'inyama.

Inyubako nyinshi kandi zisa zigiye ziri kumurongo, imbere yazo hari ubusitani burimo indabyo nyinshi nziza kandi hari pisine irimo amazi meza.

Resitora nini ifite icyapa cyanditseho ngo: "Murakaza neza" biri mu ndimi eshatu: Ikinyarwanda, Igifaransa n'Icyongereza, ifite sale nini, harimo intebe nziza ndetse n'amatara amurikiramo.

Umugabo utwaye moto wambaye kasike y'umuhondo, ifite pulake y'umuhondo iriho amagambo na nimero zandikishije amabara atukura, yambaye umupira w'ubururu wanditseho Bboxx.

Urujya n'uruza rw'abamotari bicaye kuri moto ziparitse bategereje abagenzi, bambaye amajire y'ubururu ariho ibirango bya Tigo, bategereje abagenzi ngo babatware.

Umuhanda munini wa kaburimbo, harimo umu motari utwaye moto. Inyuma ye hari aka modoka k'akavatiri. Ku nkengero z'uwo muhanda, hari amazu manini y'ubucuruzi.

Umuhanda munini wa kaburimbo, harimo moto iriho umumotari utwaye umugenzi, bombi bambaye kasike. Hirya yaho ku gahanda k'abanyamaguru, hariho abagore babiri bambaye ibitenge.

Umugabo utwaye moto wambaye kasike itukura arimo kugenda mu muhanda wubakishije amabuye, iruhande rwayo hari inyubako zikorerwamo ubucuruzi.